Intebe ni nziza. Intebe uyicayeho wumva wishimye unezerewe. Iyo wasohokeye ahantu kuhasura ukabona hari intebe nziza, hari ameza meza, wumva wishimye ukumva uratekanye. Bigatuma uruhuka neza kandi cyane.

Burushete ni inyama nziza iryoha, iyo burushete bayisizeho agasenda iryoha cyane kurushaho, abacuruzi bacuruza burushete babaho neza bakagira ubuzima bwiza, bakabona n'amafaranga bagateza imbere igihugu, abana babo bakiga ahantu heza.

Ibyapa ni byiza. Icyapa gituma umenya ahantu ugiye. Iyo ahantu uri kuhashaka ukabona icyapa, uragisoma kirakuyobora, ukagerayo amahoro. Abantu bakora ibyapa babona amafaranga ngo batere imbere imiryango zabo n’igihugu cyacu kidatera imbere.

Inyama ni nziza, inyama bashyize ku mushito wumva ari nziza ziryoshye. Abacuruzi bacuruza inyama babona amafaranga, bagateza imbere igihugu cyabo. Abana b'abacuruzi bacuruza inyama bagira ubuzima bwiza. Iyo atahanye inyama mu rugo, akagaburira abana, abana babaho neza.

Gucuruza inzoga zitandukanye ni byiza, iyo unyweye inzoga, wumva ugize ubuzima bwiza, ukumva utekanye, umubiri wawe ukaba neza, kubera umubiri uba ukeneye alukoro, ihangana no kuba umubiri wacika intege, gucuruza inzoga ni byiza, utanga imisoro kuri leta.

Amabare ni meza iyo ugiye mu ma bare nko kunywa ikintu uragenda ukanwa witonze kandi unezerewe, utekanye. Iyo uri mu bare wumva utuje harimo n'akayaga keza kubera hamwe na hamwe bateye ibiti byo kugira ngo ubone umuyaga mwiza. Abacuruzi bacuruza mu mabare babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo bagatanga n'imisoro ku gihugu.

Amabati ni meza, amabati tuyubakisha amazu, twamara kuyubakisha amazu tukayabamo, tukayaturamo, tukagira ubuzima bwiza, tugateza imbere igihugu, amazu agasorera leta, igihugu cyacu kikabona amafaranga aturuka mu baturage.

Isoko ni ryiza cyane iyo ishaka kugura nk'ibikoresho byo mi rugo indobo, amasafuriya n'amabase n'ibindi byose ukajya mu isoko urabibona ukabigura. Abacuruzi bacuruza indobo n'amabase babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, igihugu kigatera imbere abacuruzi batanga n'imisoro kuri Leta. Leta ikubakamo ibikorwa remezo byinshi bitandukanye.

Inzu z'amanegisi iyo zubatse bagashyiraho amakaro biba ari byiza. Inzu imwe y'icyatsi idafite amanegisi, uri kubona ko atari nziza nk'inzu idafite amakaro. Uri kubona ko ariyo nziza cyane inzu ifite amakaro niyo imeze neza.

Abakanishi ni beza. Abakanishi bakanika amatelefone, iyo telefone yagupfiriyeho ukayijyanira umukanishi akayikora wumva wishimye. Ugakora akazi kawe neza, Igihugu cyacu kigatera imbere. Abakanishi basorera imisoro Leta. Leta ikubaka imihanda ikubaka n'ibikorwaremezo bitandukanye.

Ubucuruzi ni bwiza, ubucuruzi bw'imigati ubucuruzi bw'amabase bw'amagi, ugacuruza n'imifuka ni byiza, iyo uguze imifuka ukagura ibase utanga amafaranga, igihugu cyacu kigaterare imbere, umucuruzi agaterare imbere, agateze imbere n'umuryango we, agatanga nimi.

Amacumbi ni meza, iyo urushye wumva ushaka kujya kuryama ushobora kuryama. Iyo wakoze urugendo rurerure, ukabona ahantu ho kuruhukira h' amacumbi wumva wishimye, ukumva uratekanye. Abacuruzi bacuruza amaloji babona amafaranga bakagira ubuzima bwiza bakishyurira n'abana babo amashuri.

Inzu zubakishije amakararo ziba ari nziza, iyo amakaro yubatse inzu, urayireba ukabona ni nziza, iyo ukoreyemo ubucuruzi ubona abakiriya. Iyo wubatse inzu, iruhande ugashyiraho indabo z'udusasa, biba ari byiza. Iyo izo nsasa zikuze, zitanga umwuka mwiza.

Inzu ya etaje ni nziza, iyo wubatse inzu ya etaje abantu bayikeneye baba benshi. Bigatuma ubona amafaranga menshi atubutse kandi ahagije, iyo wubatse etaje bigabanya kuba wakoresha ubutaka bwinshi, abacuruza bacuruririza muri etaje baba bishimye banezerewe, kandi batekanye.

Inzu yubakishije amabati bagashyira akabaraza ku ruhande, akabaraza k'amabati karinda imvura, umuntu akaba atanyangirwa kakarinda inzu kunyagirwa ,ibyuma biri ku ruhande birinda ku umuntu yagwa aturutse ku mazu.

Ibigega ni byiza, iyo ibigega ubifashe ukabibikamo amazi igihe cy'imvura imvura yarabuze, ukabona amazi yoza amasafuriya, ukoza amasahane, ukoza n'ibikosi, wumva ubuzima bumeze neza, ukumva uratekanye.

Ubucuruzi bw'imyenda ni bwiyiza iyo uri gucuruza imyenda ubona amafaranga ugatanga imisoro kuri leta ugateze imbere igihugu cyawe, n'aho utuya ukahateza imbere. Abacuruzi bacuruza imyenda abana babo biga ahantu heza, kubera babona amafaranga yo kubishyurira amafaranga y'ishuri, bagateza imbere n'aho bakomoka.

Iyo ugiye mu isoko ugasanga bari gucuruza amayite, bari gucuruza ibirayi, bagacuruza n'inyanya, ubona ari byiza cyane kuko iyo ukeneye kugura ibirayi ,wakenera no ku kugura utunyanya ukatubona ,hari n'igihe uba ukeneye amayinite ukayabona ,biba ari byiza, kuko byoroshya umurimo bigatuma duteza imbere igihugu.

Imodoka ya Sikoro ni nziza. Iyo ufite imodoka. Imodoka ya Sikoro itwara inzoga ikazegereza abakiriya. Abakiriya bo bakabona icyo kunywa bagashira inyota, Sikoro itanga imisoro kuri Leta, Leta ikubaka imihanda, ikubaka ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Matora ni nziza, iyo uryamye kuri matora wumva utekanye, kandi wishimye cyane. Abacuruzi bacuruza matora babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu kigatera imbere, kuko uba watanze imisoro, imisoro ikubaka ibikorwa remezo bitandukanye.

Inzu y'inegisi aba ari nziza cyane, iyo ugiye kuyicururizamo wumva unezerewe kandi utekanye, kuko nta bwo bihenze kuyikodesha. Iyo umuntu ari gucururiza ku inegisi abona abakiriya benshi, kuko abari gucuruza ari umwe, ateza imbere igihugu cye n'umuryango we ugatera imbere.

Ibipupe iyo babyambitse imyenda, umugenzi uri kugenda akabona ibipupe byambaye neza, yumva yifuje kugura imyenda, abacuruzi bakabona abakiriya, bagatanga imisoro, bagateza imbere igihugu cyabo bakinjiza amafaranga menshi.

Amashuka n'amakuvurori yo kwitera n'ibikapu， biba ari byiza cyane， kuko iyo ufite ishuka uryamamo， ukumva wishimye cyane， ukumva unezerewe. Iyo uhetse igikapu， uba unezerewe cyane. Abacuruza ibikapu n'amashuka，amasume， babona amafaranga abateza imbere.

Ubucuruzi bw'imyenda ni bwiza, iyo ifashe imyenda ukayambika igipupe, umuntu wese uhageze abona igipupe kiberewe akumva ashaka kugura uwo mwenda, ibipupe ni byiza kuko iyo ucyambitse umwenda kigaragara neza, iyo ufite ubucuruzi ugacururiza ku muhanda.

Abakozi ba MTN ni beza. Iyo ushaka kubikura iruhande ari ugucururiza abakozi ba MTN ari byiza kuko birakorohereza, bikanagabanya ubucuruzi bwo bucuruza mu nzu y'igihanga babona amafaranga kuko nta bantu benshi baba bari guhatana nk'abantu nkabantu babatucitse bari muri etage.

Inzu ya etage ni nziza, iyo wubatse inzu ikaba ari ya etaje icumbikira abantu benshi cyane, ukabona amafaranga bagateza imbere igihugu cyawe, abana bawe bakiga ahantu heza, kandi bakabaho neza, bakagira ubuzima bwiza, kubera babonye amafaranga, ariguturuka kuko bari gukodesha unzu yawe.

Ibyapa ni byiza, iyo wubatse inzu ugashyiraho icyapa, umuntu wese ukeneye ikintu runaka akakibona, iyo wafashe inzu yo gucuruza imyenda ugashyiraho ibyapa by'imyenda, ibyapa byamamatora, ibyapa by'amakumvureri, biba byiza cyane kuko abantu bahita babibona, bakamenya igikorerwa mu iduka.

Amapine ni meza, amapine turayakoresha, tukayashyira mu modoka, imodoka tukazitwara, tukazishyiramo imizigo, tugateza imbere igihugu, tugatanga imisoro ku gihugu, igihugu kikabona amafaranga kikubaka imihanda n'ibikorwa reme....

Ubucuruzi bw'inkweto n'imyenda amapantaro ni byiza, iyo ugiye muri botike mu duka kugura imyenda, ugasanga harimo: inkweto, harimo n'amakoti, harimo n'amapantaro, ni byiza kuko ugurira hamwe abacuruzi bakabona amafaranga, bagateza imbere igihugu.

Iyo uri gucuruza ibitunguru biba byiza cyane, iyo uri gucuruza agashira ibitunguru ku muryango, umuntu wese urikugenda akabona ibitunguru, yumva yakigura akajya kugikarangisha. Ibiryo wakarangishije ibitunguru wumamva biryoshye cyane umucuruzi ucuruza ibitunguru abona amafaranga agatanga imisoro kuri Leta.

Iduka ricuruza amavuta n'ibindi binyobwa, iyo ugiye kugura nka fanta ya ji, urayinywa ukumva iraryoshye cyane, ushaka kugura amavuta ukayagura, ukayajyana mu rugo abana bakisiga, bakagira ubuzima bwiza.

Abacuruzi bacuruza amashuka, n'amakuvurori baba ari beza ,ugacuruza n'ibikapu biba ari byiza cyane, iyo ukeneye igikapu, n'amavuriro ,n'amashuka, ukabigura uragenda mu rugo ukumva urishimye cyane, abacuruzi babicuruza babona amafaranga bagateza imbere imiryango.

Gucuruza imyenda ni byiza, iyo ucuruje imyenda ukaba wanambitse igipupe imyenda umuntu ubonye igipupe abona cyambaye neza akumva yishimiye kugura, akabona amafaranga agateza imbere igihugu, agateza imbere n'abaturanyi be n'umuryango ugatere imbere.

Gaze tuyitekaho ibiryo bigashya vuba bikihuta kandi bikaryoha cyane, iyo utetse ibiryo kuri gaze bigufasha kugira ukora indi mirimo, bitakugoye kandi byihuse cyane.

Ubucuruzi ni bwiza iyo uri gucuruza, ugacururiza mu tujerekani harimo fanta, harimo ji, harimo n'imineke. Biba ari byiza cyane kuko iyo ugiye kugura mu duka ugasanga harimo imineke na ji uragura, ukumva urishimye cyane kuko byose ni amasukari.

Inzu ya etaje ni nziza. Iyo wubatse inzu ya etaje iruhande rwawe hari inzu zitari etaje biba ari byiza cyane. Iyo ufite inzu ya etaje ujyamo ugakurura umwuka neza. Inzu ya etaje itanga umusaruro gusumba inzu itari iya etaje, kuko abantu baba ari benshi baje kuyikodesha.

Ubucuruzi bw'imyenda ni bwiza iyo wacuruje imyenda uyimanitse biba byiza cyane. Umuntu uri kuza akayireba yumva yishimye cyane bigatuma yumva yagura, abantu bacuruza imyenda bayimanitse babona amafaranga menshi kuko babona abakiriya benshi bagatanga n'imisoro kuri leta.

Ibipupe bambika imyenda，iyo byambitse imyenda biba byiza，abantu babinyuzeho bakabibona，bakumva bishimiye kugura imyenda，bigatuma umucuruzi abona abakiriya， agatera imbere， akabona amafaranga，agasora imisoro kuri Leta igihugu kigatera imbere.

Amazu iyo yubatse ukayagira beti ,beti aba ari nziza iyo ushaka kunguka ,kubona amafaranga uri kubetinga gushyiraho amafaranga yawe, kunguka abakozi bakora muri beti babona umushahara bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu cyacu ,kigatuma imbere kubera beti yatanze imisoro kuri leta.

Igipangu ni cyiza, iyo ufite igipangu, mo ndani warateyemo urutoki biba ari byiza cyane. Iyo ufite inka, ubwatsi ubugaburira inka, iyo utemye igitoki ukijyana ku isoko ukabona amafaranga, abantu iyo bagezemo mu rugo iwawe, bakitegereza ibitoki wumva bishimishije.

Iyo uri kugura ibishyimbo n'ibigori biba ari byiza cyane, umucuruzi iyo ari gucuruza n'udufuka iyo umaze kugura ibishyimbo n'ibigori ubishyira mu dufuka bigatuma umucuruzi abona amafaranga menshi.

Iyo uri gucuruza ibirayi, amakarara, ukaba ufite umunzani ku muryango biba byiza cyane, kuko bigufasha gupima bitakugoye, cyangwa ngo ubure uwagufasha umunzani bigatuma umucuruzi abona amafaranga.

Amabutike ni meza, amabutike iyo acuruza imiceri, akawunga biba ari byiza cyane. Iyo ugiye kugura umuceri kuri butike wumva wishimye, ugiye kugura umuceri ugasanga uri hanze, niba udafite gahunda yo kubura umuceri, ukawubona hanze wumva uwukeneye, ukawugura.

Akamoteri ko gushyiramo imyada ni keza, iyo ufite imyanda ukayishyira mu kantu kabugenewe biba ari byiza cyane kuko bituma ahantu hose hadasandagurika imyanda, kuberako mwayishyize ahantu hamwe iyo imyanda wayishyize ahantu heza kandi hizewe, bituma bigabanya uburwayi .

Jibu ni amazi, amazi meza atunganyije ava mu ruganda, ayo mazi adufasha mu buzima bwa buri munsi, bikaturinda ubugwayi, akaturinda ibintu byinshi kandi ayo amazi tukaba twanayatekesha kugirango ubuzima bugende neza.

Imodoka ya longe shashi ni nziza, iyo ufite imodoka ya longe shashi uyitwaramo imizigo, itwara ibintu byinshi umushoferi utwara imodoka bimufashe kubona amafaranga, agateza imbere umuryango we ni igihugu kigatera imbere, imodoka ya longe shashi itanga n'imisoro muri leta.

Imodoka za parado ni nziza, iyo umuntu afite imodoka aba ari kugaragara neza, kandi umuntu wese umubonye abona ko ari umuntu w'umukire. Imodoka irihutisha, igatuma umuntu agerayo vuba kandi nta kibazo.

Abanyonzi bateza imbere igihugu batwaza abantu bagatwara abantu n'ibintu igihugu cyacu kikabona imisoro imiryango y'abanyonzi ikabaho neza bakigisha abana babo, bakishyura ibitaro bakishyura mituweli ubuzima bugakomeza igihugu n'aho batuye bagatera imbere.

Amabutike ni meza iyo ucuruza ahantu hegereye umuhanda biba ari byiza. Ubona abakiriya ,kandi iyo uzanye ibintu ntabwo biguhenda kugira ugeze aho ugiye, kubera iyo ikinyabiziga kibizanye kibiparika ku muryango aho ukorera.

Fatima Hoteli ni nziza. Iyo ugiye muri Fatima Hoteli, ukajya kuryamo cyangwa kunyweramo biba ari byiza cyane kuko haba hariho akayaga hatekanye, hanezerewe. Abakozi bakora muri Fatima Hoteli babona amafaranga bagateza imbere imiyango yabo bagateza imbere n'igihugu cyabo.

Gucuruza amayinite no kubikuza ni byiza. Iyo ushaka amafaranga, ko bakubikuriza, ukegera umu ajenti uri hafi, aguha amafaranga, ukishima, ugakemura ibibazo byawe, ubuzima bukagenda neza. Abacuruzi bacuruza amayinite babona amafaranga, ateza imbere imiryango yabo.

Ipanu n'isafuriya ni nziza, iyo ipanu ushaka guteka imigati uyitekaho, ugatekaho 'ifiriti, ugatekaho n'ibindi byinshi bitandukanye, iyo ufite ipananu uyiteretse ku bikoresha bikoreshwa n'amashanyarazi biba byiza cyane kuko ibiryo byihuta gushya.

Matora tuzikoramo intebe, abantu bakabona akazi, bakabaho neza, iterambere ry'igihugu rigatera imbere, ibihugu bigahahirana kubera byabonye amafaranga, kandi abantu bose bakabaho neza.

Inzu yubakishijeho amakaro ni nziza iyo wubakishije inzu amakaro igaragara neza, bigatuma ibona abakiriya nabo kuyikodesha bakaboneka ukabona amafaranga, ugatanga imisoro abana bawe bakiga ahantu heza ukabona amafaranga yo kubishyurira.

Ubucuruzi ni bwiza, ubucuruzi buteza imbere igihugu, umucuruzi uri gucuruza akabona amafaranga, akagaburira umuryango we, umuryango ukaba neza, akabishyura amafaranga y'ishuri, bakiga neza kandi bakiga batekanye bameze neza, ateza imbere n'igihugu.

Inzu ya airtel ni nziza. Iyo ugiye kugura amayinite ya tigo na airtel biba byiza cyane, kuko iyo ubonye ikirango binahashushanyije, biba ari byiza, kuko bihita bikuyobora ukagenda ukagura amayinite, bikakorohereza urugendo no kuba wabunga ahandi hantu henshi hatandukanye.

Imodoka ni nziza, ubusitani bwiza, iyo wubatse etaje, ugashira iruhande ahantu ho guparika imodoka biba byiza. Iyo uhaparitse imodoka ujya guhaha cyangwa ukajya kwiyogoshesha utekanye, ukumva umeze neza nta kibazo kuko ikinyabiziga cyawe gifite amahoro n'umutekano.

Matora ni nziza iyo uri gucuruza matora ubona amafaranga, matora ni nziza ndayikunda cyane iyo nyiryamyeho numva nezerewe nkumva ubuzima buri kugenda neza cyane, abantu bacuruza matora babona amafaranga bagatanga imisoro ku gihugu, igihugu cyacu kigatera imbere.

Gucuruza imigati n'icyayi ni byiza, iyo umuntu ashonje ajya kunywa icyayi n'umugati umucuruzi akabona amafaranga agateza imbere igihugu cye, abana be bakiga ahantu heza akabona amafaranga yo kubishyurira, igihugu cyacu kigatera imbere agatanga imisoro no kuri leta.

Umudozi iyo adoda akadodera abantu abona amafaranga. Ateza imbere igihugu, agateze imbere aho atuye, ateza imbere n'umuryango we. Umuryango ukabaho neza, igihugu cyacu kigatera imbere, kikazamuka kikabona imisoro.

Ishyamba ni ryiza, ishyamba rikurura ba mukerarugendo, tukabona amafaranga, abakozi bayobora ba mukerarugendo bahahira imiryango yabo, bakabona amafaranga yo kwishyurira abana babo amafaranga y'ishuri, bagateza imbere igihugu n'aho batuye.

Hoteri ni nziza. Iyo ugiye muri hoteli wumva wishimye cyane unezerewe. Ibyo ushaka kurya byose ubisangamo, ukumva ari sawa, washaka kuryama ukabisangamo ukumva ari sawa. Abakozi bakora muri hoteli babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagatanga n'imisoro ku gihugu.

Ubucuruzi bw'imigati ni bwiza, iyo umuntu ari gucuruza imigati abona amafaranga, agateza imbere umuryango we, igihugu kigatera imbere, agatanga n'umusoro ku gihugu. Aho atuye hagatera imbere. Umuntu ucuruza imigati abana be biga neza bakabaho neza.

Imodoka ya parado ni nziza irihuta, iyo uri kugenda mu modoka ya parado abantu babona ko uri umukire, ukumva yihimye, ukumva unezerewe, ukagira ubuzima bwiza, kuko yoroshya urugendo.

Gucuruza inkweto za bodaboda n' iza mwamini ni byiza cyane, rero gucuruza inkweto ubona amafaranga ugateza imbere umuryango wawe, abana bawe bakiga neza, igihugu cyacu kikabona n' imisoro ziturutse muryo wakoze.

salo ni nziza yogosha umuntu bakamuteraho umusatsi, bakamugira neza ,akagenda aberewe akajya mu bandi anezerewe ,atuje kandi ameze neza .Iyo umuntu bamwogoshe neza ,agaragara neza mu ruhame, no mu mudugudu no mu muryango.

Inzu ya etaje aba ari nziza, iyo wubatse inzu ya etaje izamo abantu benshi, inzu ya etaje itubura ubutaka, ahantu wari kubaka inzu eshatu ukubakamo inzu imwe, iyo wubatse inzu ya etaje ubona abakiriya benshi, kandi inzu ya etaje ituma, igabanya risike zo kuba wapfa.

Amazu bacumbikamo ateza imbere ba nyirinzu, agatanga akazi, abantu bose bakoze urugendo bajya ahandi bakaharara, bakabona serivisi nziza, ubuzima bwabo bugakomeza, bakabaho neza, bigateza imbere igihugu.

Abaririmbyi ni beza abaririmbye batuma umuntu yishima cyane, akanezererwa akishima igihugu cyacu kigatera imbere, abaririmbyi barahembwa bakabona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo ni igihugu kigatera imbere, abantu bose baririmba bagira mu muhogo heza kandi hameze.

Gusenga ni byiza. Iyo uri gusenga wumva wishimye cyane, uranezererwa ukaruhuka mu mutima. Abantu basenga baba bafite amahoro yo mutima n'umunezero kubera ko baba bazi ko bavuganye n'Imana. Abantu bose bakunda gusenga nta bwo bagira uburwayi bw'umutima kubera ko baba baruhutse cyane bihagije.

Inguka banki itanga amafaranga; abantu babitsamo, bakanabikuza, kanabikuza, igihugu cyacu kigatera imbere, bakabona imisoro bakubaka ibikorwa remezo, bakubaka imihanda, bakubaka amavuriro, abana b'abakozi bakora muri unguka banki babona amafaranga menshi, bakabishyurira minerivare.

Amahoteri ni meza, iyo ugiye mu mahoteri bakwakira neza, bakaguha serivisi nziza, igihugu cyacu kidatera imbere, abakozi bakora muri hoteri babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, n'igihugu cyacu kigatera imbere.

Igipangu ni cyiza. Iyo wubatse inzu ukayishyiraho igipangu uri kureba ku, mu nzu mo indani, biba ari byiza. Iyo umuntu ari hanze akarebamo indani, amenya ko abantu bariyo cyangwa batariyo. Ibyo bigafasha abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza babeho neza, banahahirane babane neza.

Urukarabiro ni rwiza iyo hari ahantu ho gukarabira, iyo uvuye nko kuri tuwarete cyangwa n'ahandi wanduye ugakaraba, biba ari byiza cyane kuko bituma ugira isuku, bikakurinda indwara mu buzima bwawe, abubaka udukoresho tw'isukuri baba ari beza kuko bateza imbere imiryango yabo.

Inzu za nyakatsi ni nziza zikurura ba mukerarugendo, iyo wubatse inzu ya nyakatsi ubukerarugendo bagezaho barayibona bakayishimira bigatuma ubona amafaranga ugateza imbere umuryango wawe, kera hari inzu za nyakatsi zabagaze nziza iyo wabaga uyiryamyemo nta mvura wumvaga.

Isoko ni ryiza, isoko uribonamo ibyo kurya: bitera imbaraga n'ibyubaka umubiri, bihaza, imineke, amananasi n'imbuto urazibona n'amatunda. Iyo wariye ibi biribwa wumva ukomeye unezerewe kandi umeze neza, kagenda umeze...

Ji ni nziza， iyo unyweye Adama ji，wumva unezerewe，ukumva urishimye， ziraryoha abana barazikunda，umwana wanyweye ji yumva atekanye， ji ituma umwana amenya ubwenge.

Amasoko akomeye ni meza. Iyo ugiye mu masoko akomeye biba byiza cyane, kuko ikintu cyose waba ushaka urakibona kandi neza bitakugoye. Iyo hari amasoko akomeye, atanga imisoro kuri Leta ikubaka imihanda bakubaka n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Gucuruza imyenda ni byiza. Iyo ucuruje imyenda ubona amafaranga akunguka ugatanga imisoro kuri leta , igihugu cyacu kigatera imbere. Aho dutuye hagatera imbere . Igihugu cyacu kibona amafaranga menshi , aturutse mu misoro yo gucuruza imyenda.

Intoryi n'inyanya ni byiza n'ibitunguru, iyo uri kurya ibiryo birimo agasosi gatetswemo intoryi n'inyanya wumva ari byiza cyane, kuko bigira vitamini ugakura neza ukagira ubuzima bwiza, abacuruzi bacuruza ibitunguru n'intoryi n'inyanya babona amafaranga bagateza imbere imiryango.

Imbabura ni nziza. imbabura iyo uyitetseho ibiryo bishya vuba, bikihuta kandi bikaryoha. Abakozi bakora imbabura babona amafaranga bakishyurira abana babo amafaranga y'ishuri, bakabaho neza, bagateza imbere umuryango ni...

Ubucuruzi ni bwiza iyo uri gucuruza imyuko. Bacuruza amasahani yo kuriraho. Iyo umuntu aririye ku isahani y'i plastic yumva anezerewe kumva atuje ;ibiryo bikaryoha kubera yariririye ku isahane nziza ya plastic.

Imyenda ni myiza ,imyenda turayambara, iyo wambaye imyenda wumva wishimye, unezerewe ,ukagaragara neza mu bandi. Abantu bacuruza imyenda babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo ,igihugu cyacu kibateza imbere, kuko batanga imisoro ku gihugu, igihugu kikubaka imihanda n'ibindi bikorwa.

Isoko ni ryiza, iyo ugiye ku isoko usanga isoko ari etaje, riba ari ryiza cyane, kuko abacuruzi babona aho gucururiza bakanguka, iyo ugiye ku isomo ugasanga hari aho guparika ikinyabiziga wazanye, biba ari byiza cane. Nk'iyo ugiye guhaha nk'ibitoki cyangwa ibigori ugasiga uparitse waza ugapakira, birakorohera.

Imodoka zipakira imizigo ni nziza kuko iyo ushaka ibintu byinshi ubivanye mu kandi karere cyangwa mi igihugu runaka, biba byiza cyane ufite imodoka ipakira imizigo kuko ipakiraga ibintu byinshi bigatuma ubona inyungu nyinshi kandi ugateza imbere umuryango.

Iyo uri gucuruza mu isoko biba ari byiza cyane, kuko ubona amafaranga, isoko riba ryaremwe n'abantu benshi, abantu benshi batuma ubona amafaranga ugateza imbere imiryango yawe, ugateza imbere n'igihugu cyawe, ugateza imbere n'aho utuye, utanga n'imisoro kuri Leta bakubakamo ibikorwa remezo.

Inanasi n'amaronji ni byiza . Inanasi ituma mu nda horoha . Abacuruzi bacuruza inanasi ,babona amafaranga ,bagateza imbere igihugu cyabo bagateza imbere n'aho batuye. Inanasi abazicuruza babona amafaranga bagatanga imisoro ikubaka ibikorwa remezo bita......

Ubucuruzi bw'imyenda ni bwiza. Iyo uri gucuruza imyenda hanze, uwari we wese ayibona arishima cyane, bigatuma agura atari akwiye kugura. Iyo uyicururiza hanze, abantu barayibona bakayishimira bakagura byinshi kuruta ibyo bari baragura iri mu nzu batari...

Isoko isoko ni ryiza, isoko iyo ugiye guhaha n'ibitoki ugahahamo ibirayi ubona ari byiza cyane kuko ikintu cyose ukeneye ugisanga mu isoko , bityo bigatuma ugura unezerewe kandi wishimye cyane.

Ubucuruzi bw'imyenda n'inkweto ni bwiza. Abacuruzi bacuruza babona amafaranga bagatanga imisoro, bakiteza imbere, igihugu, bagateza imbere aho batuye, abacuruzi bacuruza imiryango ya ba ibaho neza, n'igihugu kikabaho neza.

Kompiyuta zidufasha gukora akazi, zikadufasha kwihutisha iterambere, zikadufasha, zikadufasha koroshya imirimo, zikadufasha guhemba abakozi, zigafasha abanyeshuri kwiga, zikoroshya n'uruge...

Isoko ni ryiza, isoko ribamo ibyo kurya. Iyo ugiye mu isoko usanga harimo ibyo kurya. Inyanya, imboga, wumva wishimye, unezerewe, ukagura ugatanga amafaranga, abaguzi bakabona amafaranga bagateza imbere igihugu.

Ijerekani ni nziza, iyo ikijerekani ukivomeyemo amazi wumva utekanye, iyo ugiye ku mugezi kuvoma ujyanye ikijerekani uza umeze neza kitari kukuvira, abantu bacuruza ibijerekani babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo.

Isoko ni ryiza, iyo isoko ririmo imineke mitoya n'imineke minini, bituma umucuruzi abona amafaranga menshi. Kandi umuntu ugiye kugura imineke, agatanga amafaranga umucuruzi akabona imisoro, agateza imbere igihugu.

Biswi ni nziza biswi ziraryoha. Abacuruzi bacuruza biswi babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo. Iyo uri gucuruza matora ubona amafaranga, iyo uri gucuruza situruwayo zo kogesha amasahane biba ari byiza cyane kuko ubona amafaranga ugateza imbere umuryango wawe.

Ibikoresho wacagingaho ni byiza, iyo ufite terefone nyinshi ugacagingaho wumva wishimye, unezerewe, iyo ufite aho gucaginga hakeya birakubangamira bigatuma udakora akazi neza. Iyo ufite aho gucaginga henshi ukora akazi neza, kandi vuba kandi wihuse bikakorohera.

Ubucuruzi bw'amasahane n'ibyuma n'udukombe ni byiza cyane, iyo umuntu ari gucuruza ibyuma agacuruza n'amasahane, umukiriya iyo aje kugura ibyuma agura n'amasahane kuko aba abiboneye hamwe, bituma umucuruzi abona abakiriya benshi.

Ubucuruzi bw'imbuto ni bwiza, iyo uriye imbuto amarongi, wotameroni n'izindi mbuto ugira ubuzima bwiza, iyo uguze mu isoko ukagura imbuto uzigura kuri make igihugu cyacu kigatera imbere ugatanga n'imisoro kuri leta.

Ibitunguru ni byiza, ibitunguru bivura indwara, indwara nyinshi zitandukanye, abacuruzi bacuruza ibitunguru babona amafaranga, bakabaho neza, bakabeshaho imiryango yabo neza, bakishyurira abana babo amafaranga y'ishuri, igihugu cyacu kigatera imbere, bagatanga n'imisoro.

Imikeka ni myiza cyane. Iyo ushaka kuruhuka, ufata umukeka ukawusasa hanze ukaryama, ukumva uraruhutse, n'akazuba kari kurasaho ukumva uranezerewe. Ababoshyi baboha imikeka babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu kigatera imbere.

Esanseri ni nziza iyo umuntu agiye muri etaje abona atagezeyo vuba, iyo yagende muri esanseri agerayo vuba kandi kare, bigatuma akora ibyo arakora hakiri kare agataha bitamugoye, kubanza yazenguruka ku masikariye.

Amasoko ni meza iyo uri gucururiza mu isoko. Isoko rigeramo abantu benshi batandukanye, ukabona amafaranga. Nko gucuruzamo ibirayi ukajya kugura ibirayi, uri umukiriya. Ibirayi biraryoha cyane, iyo uriye ibirayi wumva umeze neza utekanye, kandi nta bwo birambira umuntu.

Gucuruza imyenda ni byiza, iyo uri gucuruza imyenda ubona amafaranga, wateza imbere imiryango yawe ugateza imbere igihugu cyawe, ukarihirira abana bawe amafaranga y'ishuri. Gucuruza imyenda umuntu wese ukeneye imyenda aragushaka akabona imyenda akambara akaberwa.

Ibipipa birimo umusoro ni byiza, iyo igipipa ugishyizemo umusururu ukawunywa wumva ari byiza, ukumva uratekanye. Iyo umusururu wawushyize mu gipipa ugiye kuwunywa wumva ushyushye, abantu bacuruza imisururu babona amafaranga, bakabeshaho imiryango yabo, n'igihugu kigatera imbere.

Ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo ni bwiza ; amasafuriya tuyatekamo amabase tukayogeramo, tukanayameseramo, ibikosi tukabinyweramo igikoma, amateremusi tukayabikamo igikoma, tukagira ubuzima bwiza, tukabaho neza, abacuruzi bacuruza ibikoresho byo mu rugo babona amafaranga bagateza imbere igihugu.

Imbabura ni nziza. Imbabura tuyitekaho ibiryo byatetswe ku mbabura bishya neza byitonze kandi buhoro. Ibiryo batetse ku mbabura wumva biryoshye cyane, abakozi bakora imbabura babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo n'imiryango yabo igatera imbere.